Igishushanyo kifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke hashushanyijeho intare, imodoka ndetse n'andi matungo ari mu bwoko bugiye butandukanye, gifasha abana gutyaza ubwenge mu gihe bari kwiga muri ayo mashuri.

Igishushanyo kiriho igikinisho, gikunzwe gukoreshwa n'abana kugira ngo bumve umunyenga, hirya yacyo hari abana babiri umwe w'umuhungu ari gukurura uw'umukobwa, bisa nkaho ari kumubwira ngo bihute bajye kwikinira.

Inyubako ifite irangi risa umuhondo, ishushanyijeho igikoresho kizwi ku izina ry'ingorofani, iki gikoresho gikoreshwa n'abantu benshi batandukanye mu bikorwa byabo bya buri munsi, harimo gutwara imizigo ndetse n'amafumbire.

Inyubako irimo abana ndetse n'umumama uhagazemo wambaye agapfukamunwa urimo gufunga idirishya. Abana bose bafite ibikombe mu ntoki zabo, bisa nkaho hari ikintu barimo kunywa.

Igishushanyo kiriho umwana ndetse n'umukobwa bari kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yabo hari imodoka ndetse hari n'icyapa cyanditseho isomero iruhande rw'icyo cyapa, hari ivaze irimo ururabyo.

Agahanda k'amapave karatuje, hirya yako hari inyubako ifunguye imiryango isa umweru ndetse ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo ibicuruzwa bitandukanye, kawunga, umuceri ndetse n'ibindi.

Inyubako iriho ibishushanyo bigiye bitandukanye, hariho ikiroso, abantu bafite imisatsi myinshi bakunda kwisokosha, hariho umwana wambaye imyenda y'ubururu ndetse arimo kwiruka, hariho kandi ikindi gishushanyo kiri mu ibara ry'ubururu.

Inyubako eshatu zose zikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, imiryango yazo irafunguye, keretse umwe niwo udafunguye. Hahagazemo abantu babiri, umwe wambaye agapira k'ubururu. Imbere yabo haparitse ikinyabiziga cy'ipikipiki, hari n'umufuka uhateretse, hari n'indabyo yateye.

Ibipupe ni bimwe mu bifasha abana kwishima ndetse no kwisanzura, biteretse ahantu ku meza asa umweru ndetse na byo bifite ibara ry'umweru ndetse na move.

Umwana uhagaze ahantu hasa umweru ari kureba hejuru, iruhande rwe hari urukuta rusize amabara agiye atandukanye, afite ikiroso ari kugikoza mu irangi kugirango asige.

Abantu bateraniye ahantu hamwe, hari ibikinisho abana bakunze kwifashisha mu kugira ngo banezerwe ndetse bakomeze kugira ibyishimo mu buzima bwabo bwa buri munsi. Hirya yabyo hateye ishyamba ryinshi.

Inyubako iri ahantu hatuje hari akayira k'igitaka, abantu cyangwa se ibinyabiziga binyuramo kugira ngo bigere kuri iyo nyubako. Haruguru y'iyo nyubako hari ibyatsi ndetse n'ibiti bihateye.

Inyubako ishushanyijeho ibiribwa bigiye bitandukanye, hari imyumbati, inkoko ndetse n'inyama, hejuru hari ijambo ryanditse mu rurimi rw'icyongereza, ibiryo turya.

Umuryango munini ufungishije urugi rufite ibikoresho bikozwe mu byuma, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru bisa nk'aho ari ku kigo cy'ishuri cya Rukomo.

Gusoma ibitabo ni bimwe mu bifasha umunyeshuri kwiyungura ubumenyi bushya, igitabo giteretse ahantu cyanditseho amagambo Uwera urugero rwiza.

Udukoresho turambitse ahantu hamwe, turi mu mabara agiye atandukanye, umweru, umukara, icyatsi, ubururu ndetse na shokora, ni utwifashishwa mu kwigisha abana biga mu mumashuri abanza, kugirango batyaze ubwenge.

Igishushanyo kiriho imbuto z'ubwoko butandukanye harimo: pome, umuneke ndetse hejuru hari ijambo riri mu mabara y'umukara sa, e ndetse na ta.

Abana bicaye ku murongo bose bambaye ifomo zitandukanye. Hagati hahagaze umumama wambaye agakote k'umweru ndetse n'ikanzu y'umutuku, imbere yabo hari ikibaho gisa umukara, hirya yabo hari amadirishya afite ibara ry'ubururu.

Inyubako ngari, ifite imbuga ngari yo gukiniramo cyangwa se gukoreramo ibindi bikorwa bitandukanye, imbere kuri iyo nyubako, hari ibikapu byinshi, bisa nk'aho ari ikigo cy'amashuri, ibikapu by'abana babikamo amakayi. Biri inyuma ku rukuta.

Igishushanyo, gishushanyijeho ibintu bigiye bitandukanye, hariho abana batatu, hariho karoti, hariho amagi ndetse n'udukombe, hagiye hariho imibare gatatu, kane, ndetse na gatanu.

Udukoresho turi mu mabara atandukanye, umukara, umutuku, umuhondo, oranje ndetse na move, duteretse ahantu hasa umweru, twifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri abanza ndetse n'incuke.

Igikoresho kiri mu mabara agiye atandukanye, ubururu, umutuku ndetse n'umweru giteretse ahantu hasa umweru kifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke ndetse n'abanza.

inyubako yubakishije amatafari ahiye, iruhande rwayo hari ikigega gifite ibara ry'umukara, hari ikindi kigega kimanitse hejuru, kiri mu ibara ry'umweru, imbere yaho hari izindi nkingi zikurutiye.

Igishushanyo gishushanyijeho ibintu bitandukanye, harimo inanasi umuneke imodoka igitunguru igikombe ndetse n'ironji bigiye bifite imibare isa rimwe ndetse na kabiri.

Udukapu dutatu duteretse ahantu hasa umweru kamwe karahagaze akandi kararyamye, twifashishwa mu kubika ibintu bigiye bitandukanya waba ugiye guhaha, waba ugiye ku ishuri ndetse aho waba ugiye hose ukeneye kubika ibintu byawe wabibika mu gikapu.

Igishushanyo gifite amabara umuhondo ndetse n'icyatsi hashushanyijeho umuntu wamanuye ipantaro bisa nkaho ari kuhituma, harimo akayira gahari gashushanyijeho.

Igishushanyo kiriho umwana uhagaze mu byatsi, wambaye imyenda iri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'udukweto turi mu ibara ry'ubururu. Imbere ye hari inyubako itagaragara neza y'umusigiti cyangwa se urusengero.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye cyifashishwa mu kwigisha abana biga mu amashuri y'ishuke ndetse n'abanza biri mu nyajwi zigize Ikinyarwanda ndetse n'Icyongereza, hari utundi dukoresho turimo uducupa dutandukanye.

Ibitabo bigera kuri bitanu birambitse ku meza afite ibara ry'ubururu, kimwe ni icy'ikinyarwanda cyanditseho umubare gatatu, ikindi gishushanyijeho abantu ndetse n'ibiti kiriho umubare rimwe.

Inyubako irimo ibikinisho byinshi, biri mu mabara atandukanye, bikoreshwa n'abana kugirango bishime ndetse batagira n'irungu, hirya gato hari urukuta rushushanyijeho igiti.

Ibikoresho bikoreshwa n'abanyeshuri bibafasha mu myigire yabo, hari: amarate abiri, ikereleyo ndetse n'ikindi gikoresho gikoreshwa mu gushushanya, birambitse ku rupapuro.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu kwigisha abana biga mu mashuri y'inshuke, hariho inyuguti zigiye zitandukanye abana babasha gusoma, hirya hari ibitabo byinshi biri mu ma etajeri.

Abanyeshuri bose, aho bava bakagera, bakenera ibikoresho bigiye bitandukanye, byo kubafasha mu myigire yabo. Amarati, ikereyo, gome, ndetse n'agakoresho ko kubikamo ibyo bikoresho. Biteretse ahantu byonyine ku meza.

Igishushanyo kiriho abana bane, abahungu babiri ndetse n'abakobwa babiri, umwe muri abo bahungu afite ubumuga bw'amaguru yicaye mu kagare arimo gusunikwa n'umukobwa, hirya yabo hari izindi nyubako zifite amabara y'umutuku.

Abanyeshuri bose bambaye imyenda isa umweru ndetse bafite n'udupapuro mu ntoki zabo, hari ibyo bari gusomera abandi bahagaze cyangwa se bicaye imbere.

Imbaga y'abantu benshi bamwe bambaye imyenda isa umutuku, umugabo wambaye amarinete ufite indangururamajwi mu kaboko ke k'ibumoso ari kugeza ku baturage ijambo yabateguriye.

Abahungu babiri bambaye imyenda isa umweru ndetse n'umukara, bahagararanye n'abandi bakobwa babiri bambaye ishati y'umweru ndetse n'amajipo ya kake, inyuma yabo hari inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse n'indabyo.

Umuyobozi w'Akarere ka Nyagatare wungirije, wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'umukara, ahagararanye n'abantu benshi bari kubyina bishimye cyane, bisa nk'aho hari igikorwa cyabereye kinejeje abitabiriye.

Abanyeshuri bambaye imyenda isa, irasa icyatsi ndetse n'umukara, barahagaze umwe ari kwikora mu gahanga, umukobwa afite ikaramu ndetse ari kwandika ku gapapuro.

Inyubako nyinshi zifite inzugi z'imikara, zifite inkingi ifite amabara y'umutuku, iruhande rwayo hari ikigega amazi ava ku mabati ajyamo, haruguru hari ibiti bihateye bya gereveriya.

Abanyeshuri bambaye yunifomu isa umweru ndetse n'umukara, umwe muri bo yambaye amarinete afite impapuro nyinshi mu ntoki ze, afite na kalikireta mu ntoki isa umukara, hirya hari urugo ruzitijwe n'indabyo, hirya y'urwo rugo hari inyubako ifite amabati atukura.

Abanyeshuri bagera kuri batandatu bose bambaye amakaruvati maremare asa icyatsi, bahagararanye n'abandi bagabo babiri ndetse n'umumama umwe, bahagaze imbere y'inyubako ndende ifite amatafari ahiye.

Inyubako irimo abanyeshuri, bose bambaye imyenda isa, umweru ndetse na kaki, bambaye udupfukamunwa ndetse bicaye bahanye umwanya kugira ngo hatagira uwanduza undi indwara.

Abanyeshuri benshi bateraniye ahantu mu busitani bufite indabyo, baricaye ndetse hari nabandi bahagaze ku nkuta imbere, hari umumama wambaye ibitaburiya y'ubururu ndetse inyuma hari inyubako zifite amadirishya y'ubururu ndetse n'amabati y'ubururu.

Inyubako irimo ibikoresho byifashishwa mu gutekera abanyeshuri, ni bitatu birasa neza biri ahantu hamwe. Iyo ibiryo bitetse neza kandi bihiye abana babirya nta nkomyi.

Abanyeshuri batatu bahuriye ahantu hamwe mu cyumba, bambaye inifomu zisa umweru ndetse na kaki, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu myigire yabo kugira ngo bazamure ubumenyi.

Abana benshi bahagaze ahantu hamwe bambaye inifomu isa umweru ndetse n'amapantaro ya kaki, umwe muri bo ahagararanye n'umumama wambaye agapira k'umweru ndetse n'ijipo y'umutuku, ari kumuha impamyabushobozi amushimira urwego agezeho.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye amaji ari mu mabara atandukanye, inyuma yabo hari ikigega gifite ibara ry'umukara ndetse bari gutambuka iruhande rw'inyubako bareba aho ibikorwa byo kwiyubaka bigeze.

Umugabo wambaye ikanzu y'abihayimana ahagaze imbere y'abanyeshuri bose bafite indabyo bisa nk'aho baje kwibuka ababo bapfuye mu gihe runaka, inyuma yabo hari akandi kazu karimo abantu ndetse n'ururabyo rukoze mu mibyare.

Uburezi bufite ireme ni kimwe mu bizafasha abanyeshuri kugira ngo bateze imbere igihugu cyabo, abanyeshuri bose bicaye ku murongo bambaye inifomu zitandukanye, umurezi wabo ahagaze hagati ari kwitegereza uko bakora ibizamini.

Ibikoresho bikoze mu ibumba biteretse ahantu hasi. Ni igikoresho gikoreshwa mu kubika amazi ndetse ukaba wagitekamo ibiryo.

Akayira k'amapave karimo kugendamo abantu batatu ndetse n'umukobwa umwe ufite ikayi mu ntoki ze, iruhande rwabo hari indabyo zihateye ndetse kandi iruhande rwabo rw'iburyo hari indi nyubako irangaye ihubatse.

Abakobwa ndetse n'abasore bicaye mu ntebe zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara, harimo umusore umwe wambaye umupira w'umweru, bambaye amabaji mu majosi yabo barishimye bari guseka, inyuma yabo hari undi muntu wambaye umupira w'umutuku.

Abakobwa ndetse, n'abasore. Bambaye imyenda yambarwa n'umuntu urangije kwiga amashuri yisumbuye. Bafite urupapuro, bose bamanitse ikiganza, bisa nkaho hari indahiro bari gusubiramo batazatatira.

Inyubako ndende ya etage, iri mu mabara y'umweru ndetse ifite amabati y'umutuku, hasi hari kugendera abagabo batandukanye, iruhande rwabo hari ubusitani buteyemo indabyo, ndetse hari n'ipoto ijyana amashanyarazi muri iyo nyubako.

Icyumba gifite amakaro asa umweru, harimo intebe eshatu zose ziri mumabara asa ubururu, nta muntu wicayemo haratuje cyane.

Icyumba kirimo intebe nyinshi ziri mu mabara asa ubururu, hari umuhungu ndetse n'abakobwa babiri bicaye muri izo ntebe, umuhungu yambaye umupira w'umweru arimo arafotora abo bakobwa.

Abagabo batandatu bicaye mu cyumba kirimo intebe nyinshi. Baricaye bose bafite mudasobwa kandi barimo kuzirebamo .Hari umwe ufite urupapuro arimo kurwitegereza cyane.

Abakobwa ndetse n'abasore, bose bahagaze ahantu mu nyubako, bahawe impamyabushobozi zigaragaza ko ibyo bakoze babifitiye ubushobozi ndetse n'ububasha kugira ngo babe babibyaza umusaruro babifitiye gihamya.

Urugi rufunze ndetse rufite ikirahure, hejuru hasize amarangi y'umweru, ndetse hariho n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru UR/09/B01 .

Inyubako ndende ya etaje igaragara igice kimwe, hanze hateye igiti kirekire ndetse hari abantu babiri bari gutambuka imbere yayo, hari ubusitani bwiza bufite ubwatsi butoshye, hari akayira k'amabave gahari, iruhande rwako hari indabyo.

Icyumba gisize amarangi ya move. Harimo intebe nyinshi z'ubwoko butandukanye ziri mumabara y'ubururu. Hicayemo abakobwa ndetse imbere yabo hari umusore wambaye umupira w'umweru urimo kubafotora.